Icyumba cyicayemo abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, bicaye bakikije ameza arambuyeho igitambaro kirimo ibara ry'umukara, hateretseho amacupa.

Icyumba cyicayemo abantu benshi bambaye imipira yo mu imubara ry'ubururu y'amako magufiya, bicaye ku ntebe z'umuhondo, imbere yabo hari ameza bateretseho amacupa.

Igisambu gihagazemo abantu benshi bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, bafite ibiziriko biziritse amahene, inyuma yabo hagaragara urutoki ndetse n'inzu.

Icyumba cyicayemo abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umukara imbere yabo hari ameza ateretseho indangururamajwi hari n'izindi ntebe zifite ibara risa nk'ivu ziticayeho abantu.

Icyumba kicayemo abantu benshi bambaye imyambaro y'amabara atandukanye, harimo abazungu ndetse n'abirabura, imbere yabo hari ameza ateretseho amacupa.

Igisambu cyicayemo abantu benshi bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, haruguru hari abandi bicaye mu ihema ry'umweru, hari n'inzu isakarishijwe amabati atukura n'ikigega kibika amazi y'imvura.

Icyumba gihagazemo abantu benshi bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, imbere yabo hari intebe zizengurutse ameza ari mu ibara ry'umukara ateretseho amacupa ndetse na mudasobwa.

Icyumba cyicayemo abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umukara, imbere yabo hari ameza ateretseho amacupa, amakaramu, amakayi ndetse na terefone ngendanwa.

Umugore wambaye imyenda ifite amabara atandukanye higanjemo ibara ry'icyatsi kibisi afite umusatsi uboshye kumutwe afite indangururamajwi mu ntoki yambaye n'impeta ku rutoki.

Icyumba cyicayemo abantu benshi bambaye imyambaro y'amabara atandukanye hagaragaramo n'umugabo w'umuzungu imbere yabo hari ameza ateretseho amacupa ndetse na mudasobwa.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko magufiya, wambaye isaha y'umukara ku kuboko uhagaze imbere ye hagarara igice gitoya cy'icupa, inyuma ye hari icyapa cy'ubururu cyanditsemo mu magambo y'umweru, kirimo n'ibendera ry'u Rwanda.

Icyumba kigaragara nk' icy'inama cyicayemo abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye bicaye ku ntebe z'umukara, imbere yabo hari ameza ateretseho amacupa, imbere hahagaze mugabo ufite indangururamajwi.

Icyumba cyicayemo abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, harimo umugabo wambaye ikoti ry'umukara n'ishati y'umweru, ufite indangururamajwi mu ntoki, yambaye isaha ku kuboko n'impeta ku rutoki.

Icyumba cyicayemo abantu benshi bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, hari abicaye ku ntebe zifite ibara rya oranje ndetse n'umweru, abandi bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umukara, imbere yabo hari ameza yateretseho amacupa ndetse n'indangururamajwi.

Umugore wambaye imyambaro harimo iy'umukara, yambaye amadarubindi ku maso, afite indangururamajwi mu ntoki, inyuma ye hari ibyapa bibiri ndetse n'igitambaro kirinda urumuri kiri mu ibara ry'umuhondo kimanitse mu idirishya imbere ye hicaye abandi bantu.

Icyumba gifite ibitambaro birinda urumuri ku madirishya, hicayemo abantu benshi bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye bicaye ku ntebe z'ifite ibara ritukura.

Icyumba cyicayemo abantu benshi, bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, imbere yabo hariya mza ateretseho amacupa, inyuma hari y'ibyapa bibiri.

Icyumba kigaragara nk'icy'inama cyicayemo abantu bambaye imyambaro yo mu ma bara atandukanye yicaye ku ntebe z'umukara, imbere yabo kumeza hateretse indangururamajwi ndetse n'amacupa.

Icyumba cyicayemo abantu bambaye imipira y'ubururu yanditsemo amagambo y'umweru mu mugongo, wicaye ku ntebe z'umuhondo imbere hahagaze umugabo wambaye ishati y'umweru ufite indangururamajwi.

Umugabo wambaye ikote n'ishati y'umweru, yambaye amadarubindi ku maso nta musatsi afite inyuma ye hicaye abandi bantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye.

Icyumba cyicayemo abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, harimo umugore umwe w'umuzungu n'umugabo wifashe ku gahanga w'umwirabura, wambaye isaha ku kuboko, ufite ikaramu mu ntoki.

Icyumba cyicayemo abantu bambaye imipira y'umweru, harimo umwe uteze igitambaro mu mutwe, imbere yabo hari ameza yo mu ibara ry'umukara, ateretseho telefone ngendanwa, amacupa, ndetse n'impapuro.

Icyumba cyicayemo abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, harimo abicaye ku ntebe zifite ibara risa nk'ivu n'abicaye ku ntebe z'umukara, imbere yabo hari ameza ateretseho indangururamajwi, mudasobwa ndetse n'amacupa.

Icyumba gifite ibitambaro by'umweru ku madirishya birinda urumuri hicayemo abantu, imbere yabo hari ameza arambuyeho igitambaro cy'umweru, hari n'abandi bantu babiri bahagaze, umwe w'umugore ufite indangururamajwi n'umugabo ufite indangururamajwi.

Icyumba kigaragara nk'icy'inama, cyicayemo abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, imbere yabo hari ameza ateretseho amacupa ndetse n'indangururamajwi.

Icyumba cyicayemo abantu benshi bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, imbere yabo hariyo ameza arambuyeho igitambaro cyo mu ibara ry'umweru, hateretseho amacupa.

Icyumba cyicayemo abantu bambaye imyambaro y'amabara atandukanye, bicaye ku ntebe z'umukara, bazengurutse ameza, ateretseho indangururamajwi, ibikombe, amacupa, ndetse na mudasobwa.

Abagore batatu bahagararanye bafashe ku rupapuro umwe yambaye imyambaro iri mu bwoko bw'imikenyero undi yambaye umwambaro w'igitenge yateze n'ikindi mu mutwe undi yambaye umupira w'umweru n'amadarubindi ku maso inyuma yabo hicaye abandi bantu.

Icyumba cyicayemo abantu bambaye imyambaro yo mabara atandukanye, imbere yabo hari ameza ateretseho amacupa, harimo umugabo uhagaze wambaye ishati y'amaboko maremare.

Icyumba cyicayemo abantu hari abandi bahagaze inyuma yabo, bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, imbere yabo hari ameza arambuyeho igitambaro gitukura, ateretseho amacupa.

Abantu bicaye mu gisambu, bambaye imyenda yo mu mabara atandukanye, hagati yabo hari imbuga y'igitaka ihagazemo umuntu wambaye imyenda y'umukara, inyuma yabo hateye ibiti.

Umugore wambaye imyenda yo mu ibara ry'umuhondo, uteze igitambaro mu mutwe, afite indangururamajwi mu ntoki, imbere ye hicaye abantu bicaye ku ntebe zitukura.

Umugabo uhagaze wambaye ikote ndetse n'ishati y'umweru mo imbere, ufite indangururamajwi mu ntoki yambaye impeta ku rutoki inyuma ye handitse amagambo yo mu ibara ry'ubururu.

Abantu batatu bicaye mu cyumba, harimo umukobwa umwe, bicaye ku ntebe z'umukara, imbere yabo hari ameza ateretseho amacupa ndetse na mudasobwa.

Icyumba kicayemo abagore batatu bicaye ku ntebe z'umukara bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye umwe muri bo yambaye amadarubindi ku maso imbere yabo hari ameza ateretseho amacupa.

Abantu benshi bicaye hamwe bicaye ku ntebe z'umweru, higanjemo abambaye imyambaro iri mu ibara ry'umuhondo ndetse n'icyatsi kibisi.

Icyumba cyicayemo abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, bicaye ku ntebe z'umutuku, hari n'ameza ateretseho mudasobwa ndetse n'amacupa.

Icyumba kigaragara nk'ikinyinama cyicayemo abantu bambaye imyambaro y'amabara atandukanye bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umukara, imbere yabo hariyo ameza ateretseho amacupa.

Umugabo wambaye ikote, imbere ye hari ameza ateretseho amacupa ndetse n'indangururamajwi nyinshi, inyuma ye hari icyapa cy'umweru ndetse n'ibendera ry'umweru.

Abantu bane bambaye imyambaro ymabara atandukanye imbere yabo yicaye abandi batatu nabo bambaye imyambaro yamabara atandukanye inyuma yabo hagaragara ibyapa bibiriye.

Icyumba cyicayemo abantu benshi bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, harimo abazungu ndetse n'abirabura, imbere hicaye umugabo wambaye ikote, wambaye amadarubindi ku maso, afite na terefone ngendanwa mu ntoki.

Icyumba cyicayemo abantu benshi, bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umweru, imbere yabo hari ameza y'umukara ateretseho mudasobwa ndetse n'amacupa.

Icyumba cyicayemo abagore batatu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye bose bambaye amadarubindi ku maso, imbere yabo hariyo ameza asasheho igitambaro ateretseho impapuro, amacupa ndetse n'amakaramu.

Abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye bicaye mu ihema, imbere yabo hari ameza mato arambuyeho igitambaro cy'umweru, ateretseho igikapu batwara mu ntoki cy'abagore.

Icyumba kigaragara nk'icy'inama, cyicayemo abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, bicaye ku ntebe z'umukara, bazengurutse ameza ateretseho amacupa ndetse na mudasobwa.

Abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, bicaye mu cyumba kirimo ameza arambuyeho igitambaro cyo mu ibara ry'umweru, ateretseho amacupa na terefone ngendanwa.

Icyumba cyicayemo abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, bicaye ku ntebe z'umukara, imbere yabo hari ameza yo mu ibara ritukura ateretseho mudasobwa ndetse n'amacupa.

Abantu benshi bahagaze hamwe bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, higanjemo abambaye imipira ya maboko magufi y'icyatsi kibisi ndetse n'ubururu bwijimye, kuruhande hagaragara umugabo wambaye impuzangano z'imbangukiragutabara.

Icyumba kigaragara nk'inama cyicayemo abantu bambaye imyambaro y'a mabara atandukanye ,bicaye ku ntebe z'umukara imbere yabo kumeza hateretse amacupa ,indangururamajwi ,terefone ngendanwa, amakaramu ndetse n'amakayi hari n'udukapu batwara ku rutugu.

Icyumba cyicayemo abantu benshi, bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, bicaye ku ntebe z'umweru, imbere yabo hari ameza arambuyeho igitambaro cy'umweru, hari n'umuntu uhagaze imbere yabo, ku ruhande hari amadirishya amanitsemo ibitambaro birinda urumuri.

Icyumba cyicayemo abantu batatu harimo abagore babiri ndetse n'umugabo umwe, bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umukara, imbere yabo hari ameza ateretseho indangururamajwi.

Icyumba cyicayemo abantu, bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, harimo abagore batatu bose bambaye amadarubindi, bicaye imbere yabo hari ameza y'umukara ateretseho amacupa.

Icyumba cyicayemo abantu benshi, bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, bicaye ku ntebe z'umukara, hari igikuta kimanitseho icyapa, kiriho amabendera y'ibihugu.

Icyumba kigaragara nk'ikiny'inamama cyicayemo abantu bambaye imyambaro y'amabara atandukanye bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umukara imbere yabo hariya ameza ateretseho amacupa ndetse na mudasobwa.

Icyumba cyicayemo abantu bambaye imyambaro y'amabara atandukanye, imbere yabo hari ameza ateretseho impapuro amacupa ndetse na mudasobwa.

Icyumba cyicayemo abantu benshi bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, imbere yabo hari ameza ateretseho mudasobwa ndetse n'amacupa.

Icyumba kigaragara nk'icy'inama, cyicayemo abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, bicaye ku ntebe z'umukara, imbere yabo hari ameza teretseho amacupa ndetse na mudasobwa.

Icyumba cyicayemo abantu, bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, harimo abazungu ndetse n'abirabura, harimo umugore uteruye mudasobwa ku bibero ifunguye, n'undi mugabo uteruye mudasobwa ku bibero ifunze.

Icyumba cyicayemo abantu benshi higanjemo abambaye umupira w'amaboko magufi yo mu ibara ry'ubururu, yanditsemo amagambo y'umweru mu mugongo, imbere yabo hahagaze umugabo wambaye ikote ry'umukara.

Icyumba kigaragara nk'icy'inama cyicayemo abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye bicaye ku ntebe z'umukara, inyuma hari izindi ntebe zifite ibara rijya gusa nk'ivu imbere yabo hariyo ameza yateretseho mudasobwa.

Icyumba cyicayemo abantu benshi bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umweru, imbere yabo hari ameza arambuyeho igitambaro cyo mu ibara ry'umukara, hateretseho amacupa.

Icyumba kigaragara nk'icy'inama, kicayemo abantu bambaye imyambaro y'amabara atandukanye harimo abicaye ku ntebe z'umukara, imbere yabo hari ameza ateretseho amacupa ndetse n'indangururamajwi.

Icyumba kirimo abantu benshi bambaye imyambaro y'amabara atandukanye, bicaye bazengurutse iyi meza irambuyeho igitambaro cyo mu ibara ry'umukara hateretseho mudasobwa, amacupa ndetse n'indangururamajwi ye.

Icyumba cyicayemo abantu bambaye imipira y'ubururu y'amaboko magufiya, bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umuhondo, imbere yabo hari ameza arambuyeho igitambaro hateretseho amacupa na terefone ngendanwa.

Icyumba kigaragara nk'icy'inama cyicayemo abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, bicaye ku ntebe z'umukara imbere yabo hari ameza asasheho igitambaro cy'umweru ateretseho amacupa hari n'umugabo ufite indangururamajwi wicaye kumeza ari imbere.

Inyubako yubakishijwe amatafari ahiye, imbere yayo hari abantu bicaye mu gisambu, bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, imbere hari imbuga y'igitaka, ihagazemo abandi bantu, harimo umugore ufite inkoni.

Icyumba cyicawemo n'abantu babiri umugabo ndetse n'umugore, bicaye ku ntebe zirimo ibara ry'umukara imbere yabo hari ameza ateretseho indangururamajwi ndetse n'icupa.

Icyumba cyicayemo abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, harimo abambaye imyambaro y'umuhondo n'abambaye iy'ubururu, hagati yabo hari ameza y'uruziga ari mu ibara ry'umweru.

Icyumba kigaragara nk'icy'inama, cyiciwemo abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, bicaye ku ntebe z'umukara, imbere yabo hari ameza ateretseho mudasobwa ndetse n'amacupa.

Icyumba cyicayemo abantu benshi, bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, bicaye ku ntebe z'umukara, harimo abazungu ndetse n'abirabura, imbere yabo hari ameza ateretseho amacupa ndetse n'impapuro.

Icyumba kigaragara nk'icyinama cyicayemo abantu benshi bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, imbere yabo hari ameza arambuyeho igitambaro cy'umweru hateretseho telefone ngendanwa ndetse n'amacupa.

Icyumba cyicayemo abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye imbere yabo hari ameza yo mu ibara ritukura ateretseho icupa imbere hari umugabo ufite indangururamajwi mu ntoki.

Abantu bambaye imyambaro yo mu mamabara atandukanye, bicaye ku ntebe z'umutuku bakikije ameza arambuyeho ibitambaro, hateretseho mudasobwa ndetse n'amacupa, hejuru yabo hari abandi bantu bahagaze harimo umugore uteruye umwana.

Icyumba gihagazemo abantu bambaye udupfukamunwa ku masura, bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, imbere yabo hari abandi bicaye, hari n'ameza ateretseho ibikombe ndetse n'igikapu cy'abagore batwara ku rutugu.

Icyumba cyicayemo abagabo batatu bicaye ku ntebe z'umukara, umwe muribo yambaye ikote ry'umukara n'amadarubindi ku maso, imbere yabo hari ameza ateretseho mudasobwa.

Umugore ufite indangururamajwi mu ntoki yambaye, isaha isa nka zahabu ku kuboko n'impeta ku rutoki, afite umusatsi mugufiya, umunwa we usize ibara ry'umutuku.

Icyumba kigaragara nk'icy'inama kiciyemo abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umukara, hagati yabo hari ameza, ateretseho amacupa na mudasobwa, imbere yabo hari insakazamashusho.

Icyumba cyicayemo abantu, bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umweru, imbere yabo hari ameza ateretseho amacupa, terefone ngendanwa ndetse n'ikaramu.

Icyumba kinini cyicayemo abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umweru, imbere yabo hicaye abandi bantu bicaye babareba, imbere yabo hari ameza arambuyeho igitambaro cy'umweru.

Icyumba kigaragara nk'icy'inama cyicayemo abantu benshi bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, gifite ibikuta by'umweru ndetse n'inzugi bicaye ku ntebe z'umukara, imbere yabo hari ameza ateretseho telefone ngendanwa.

Icyumba kigaragara nki'icy'koranabuhanga, cyicayemo abantu benshi bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, gifite ibikuta biri mu ibara ry'umweru, imbere yabo ku meza hari mudasobwa.

Umugabo wambaye ikote ry'umukara n'ishati y'umweru mo imbere, wambaye amadarubindi ku maso, yamwenyuye ugaragara igice cy'igihimbam, afite mudasobwa mu ntoki.

Umukobwa wambaye ikote uri guseka, ugaragara igice cy'igihimba, afite imisatsi iboshye ku mutwe, imbere ye hariho ameza ateretseho mudasobwa ndetse n'amadarubindi.

Umunara muremure uri mu mabara abiri harimo ibara ritukura, ibara ry'umweru, hejuru hagaragara ikirere kirimo ibara ry'umweru ndetse n'irindi rijya gusa nk'ubururu.

Umusore ugaragara igice cy'igihimba wambaye umupira wa runiga w'amaboko maremare wo mu ibara ry'ubururu, afite terefone ngendanwa mu ntoki iri kwaka yanditsemo amagambo.

Abantu bahagaze bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, bambaye udupfukamunwa mu isura, bafite mudasobwa mu biganza bari kuzirebamo, inyuma yabo hari inyubako ndetse n'imodoka.

Icyumba kigaragara nk'ishuri, cyicayemo abantu bambaye impuzangano zigaragara nk'iz'abanyeshuri, imbere yabo hari ameza, ateretseho mudasobwa ntoya, ziri mu ibara ry'umweru ndetse n'icyatsi kibisi.

Umusore wambaye ishati y'umweru washyize amadarubindi hejuru ku ishati, ufite telefone ngendanwa mu ntoki, yambaye umukandara w'umukara afite ikote ku rutugu.

Umusore ufite terefone ngendanwa mu ntoki wambaye ingofero y'umukara n'umupira w'umweru, i ruhande rwe hari umusore wambaye ishati ufite ikaye mu ntoki uri kureba muri iyo terefone, nawe i ruhande rwabo hari umukobwa ufite mudasobwa mu ntoki.

Icyumba cyicayemo abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, imbere yabo hari ameza ateretseho mudasobwa, amacupa, terefone ngendanwa. Hari n'umugore uhagaze imbere yabo.

Umurongo uri mu ibara ry'umweru ndetse n'umukara, utandukanya umuhanda wa kaburimbo n'agahanda gasashemo amabuye, hakurya y'umuhanda hari ibiti hari n'igiti gifasheho insinga zikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi.

Imbuga ihagazemo amapikipiki menshi harimo n'urunyurane rw'abantu haruguru hagaragarara umuhanda uri kugendamo imodoka z'ubwoko butandukanye, harimo izitwara abantu inini n'intoya n'indi imwe y'umutuku y'ubwikorezi.

Imbuga igaragara nk'itotse, ihagazemo imodoka z'ubwoko butandukanye, zifite n'amabara atandukanye, hepfo yazo hari igiti cy'umukindo ndetse n'inzu zisakarishijwe amabati y'umutuku.

Umuntu wicaye mu kagare k'abantu babana n'ubumuga, imbere y'iwe hari ubusitani, imbere yabwo hari agahanda gasashemo amabuye, hakurya hari inzu yubakishije amatafari ahiye.

Imbuga isashemo amabuye, ifatanye n'igice gitoya cy'imbuga irimo igisambu, hari inzu zubakishijwe amatafari ahiye, zisakarishijwe amabati y'umutuku.

Imbaga ihagazemo imodoka nyinshi ziri mu mabara atandukanye, zifite n'ubwoko butandukanye, hari kugendamo n'abantu, imbere hagaragara inzu y'igorofa, hateye n'igiti cy'umukindo.

Imbuga isashemo amabuye, iri kugendamo abantu bambaye imyambaro y'amabara atandukanye, hahagazemo n'imodoka y'umweruru iri mu bwoko bw'imbangukira gutabara, inyuma yayo hari inzu.

Imbuga ihagazemo imodoka eshatu, harimo ebyiri ziri mu ibara ry'umweru, zirimo ubwoko bw'imbangukiragutabara n'indi imwe y'umukara, itwara abantu ku giti cyabo, inyuma yazo hari inzu isakarishijwe amabati y'ubururu, hateye n'ibiti.

Umugore wambaye umupira w'ubururu w'amaboko magufi, mu mugongo wanditseho amagambo yo mu ibara ry'umweru, yambaye isaha ku kuboko, imbere ye ku meza hateretse mudasobwa.

Umugabo uhagaze, ugaragara igice cy'igihimba, utari guseka, ufite agasatsi gakeya ku mutwe, yambaye umwambaro urimo amabara y'umutuku, umukara ndetse n'umweru.

Icyumba cyicayemo abantu bane harimo abagabo babiri bambaye imyenda iririmo ibara ry'umweru ndetse n'umukara, harimo n'abagore babiri bambaye imyenda igaragara nk'impuzangano y'abagororwa. Imbere yabo hariyo ameza ateretseho mudasobwa.

Icyumba cyicayemo abantu benshi bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, imbere hicaye abantu bambaye impuzangano zisa ziri mu ibara ry'umutuku ndetse n'umweru bambaye ingofero mu mutwe.

Imbuga yicayeho abantu benshi bambaye amakabutura ndetse n'amashati agaragara nk'impuzankano y'abagororwa, imbere hari abandi bagenzi babo bahagaze, inyuma hagaragara ibiti ndetse n'imisozi.

Abagabo batatu bagaragara igice cy'igihimba, umwe yambaye amarinete ku maso ari hagati, baciyemo imirongo ikubanyije yo mu ibara ritukura, hejuru yabo handitse amagambo y'umutuku.

Umugabo ugaragara igice cy'igihimba, utari guseka, utanafite umusatsi ku mutwe, yambaye umwambaro uri mu mabara atatu: umutuku, umukara ndetse n'umweru.

Abantu bicaye munsi y'ibiti hasi, bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, harimo umugabo uhagaze wegamye ku giti n'undi uri imbere ye ufite umutaka.

Icyumba cyicayemo abantu, bambaye impuzangano zisa, ziri mu ibara ry'umukara, bicaye ku ntebe zitukura, imbere yabo hagaze abandi, bafashe ku mabendera yo mu ibara ry'ubururu n'umuhondo ndetse n'icyatsi kibisi.

Igisambu cyicayemo abantu benshi bicaye barambije harimo n'abitwikiriye imitaka ifite amabara atandukanye, imbere yabo hahagaze umugabo wambaye ipantaro y'umweru ndetse n'ishati y'amaboko maremare, imbere hagaragara abandi bantu bicaye ku ntebe, imbere yabo hari ameza.

Imbuga y'igitaka ihagazeho abantu benshi bambaye imyenda igaragara nk'impuzankano y'abagororwa, inyuma yabo hari igikuta kirekire cyubakishijwe amatafari ahiye.

Umugabo ugaragara igice cy'gihimba utari buseka udafiteumusatsi kumutwe wambaye umwambaro uri mabara abiri umutuku ndetse n'ibara ry'umweru.

Umugabo wambaye imyenda igaragara nk'impuzangano y'abagororwa, yambaye agapfukamunwa ko mu ibara ry'umweru mu isura, yicaye ku ntebe ifite ibara ry'umukara, afite ikayi ifite igifuniko cy'ubururu.

Abantu bambaye imyenda igaragara npuzangano z'abagororwa bari kwinjira mu muryango ufite ibara ry'umukara ndetse na kakiyi hari n'urukuta rwubakishije amatafari yahiye.

Icyumba gifite amatara menshi acanye hejuru, cyicayemo abantu benshi, bambaye imyambaro irimo amabara atandukanye, bazengurutse ameza arambuyeho igitambaro kiririmo ibara ry'umukara.

Umugore utari guseka wambaye amaherena ku matwi, wambaye amadarubindi ku maso n'ingofero yo mu ibara ry'umukara ndetse n'umuhondo, yambaye umwambaro wo mu ibara ry'umweru, umutuku ndetse n'umukara.

Umugabo ugaragara igice cy'igihimba wambaye amadarubindi kumaso, yambaye ingofero y'umukara m'umutwe yambaye imyenda irimo ibara ry'umutuku ndetse n'umweru.

Umugore utari guseka ufite imisatsi miremire y'umukara ugaragara igice cy'igihimba yambaye umwambaro uri mu mabara abiri harimo umutuku, ndetse n'umweru.

Umugabo w'umwirabura wambaye amadarubindi ku maso, wambaye ikote ry'umukara, afashwe ukuboko n'undi mugabo w'umuzungu wambaye ishati y'amaboko magufi, wambaye amadarubindi ku maso ndetse n'isaha ku kuboko.

Icyumba gihagazemo abantu bambaye imyenda yo mu ibara ry'umukara ndetse n'umweru, bambaye udupfukamunwa ku isura. Hari n'umugabo wambaye imyenda igaragara nk'impuzangano y'abagororwa, uhagaze imbere y'ameza ateretseho indangururamajwi.

Abantu bambaye imyenda y'umweru ndetse n'umukara harimo umukobwa uteze igitambaro gitukura mu mutwe, iruhande rwabo hari amabendera yo mu ibara ry'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi kibisi.

Umugabo wambaye umusaraba mu ijosi, n'ikote ry'umukara, yambaye amadarubindi ku maso, nta musatsi afite, afashwe n'abantu babiri ku maboko yombi, bambaye impuzangano igaragara nk'iy'abapolisi, inyuma yabo hahagaze abandi bantu.

Abantu bambaye imyambaro igaragara nk'impuzangano y'abagororwa, abenshi muri bo bafite injerekani mu ntoki, bari kugenda iruhande rw'igikuta kirekire cyubakishije amatafari ahiye.

Abagabo bambaye imyambaro igaragara nk'impuzangano z'abagororwa imbere yabo hahagaze undi mugabo wambaye imyambaro yo mu ibarayi ryakaki inyuma yiwe hari urugi runini ruri mu ibara ry'umukara ndetse na kaki hejuru rwanditseho amagambo hari n'igikuta cyubakishije amatafari ahiye.

Abagore babiri bambaye amakanzu asa, bahagaze hagati y'abagabo babiri bambaye imyenda y'umweru ndetse n'umukara imbere yabo hari ameza ateretseho mudasobwa ndetse n'icupa.

Igisambu cyicawemo n'abantu benshi bambaye imyambaro yo mumabara atandukanye, harimo n'abitwikiye imitaka ifite amabara menshi, imbere yabo hahagaze umugabo wambaye imyambaro igaragara nk'impuzankano y'abagororwa.

Abantu bahagaze harimo abagabo ndetse n'abagore, bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, harimo umugore wambaye ikote n'ipantaro, biri mu ibara ritukura, inyuma yabo hari icyapa cy'ubururu.

Umugabo ugaragara igice cy'igihimba wafatanyije ibiganza bye bibiri, wambaye ikote ry'umukara n'ishati y'umweru mu imbere, yambaye isaha ku kuboko n'amadarubindi ku maso.

Umugabo uhagaze ugaragara igice cy'igihimba utari guseka, wambaye umwambaro uri mu mabara atatu harimo: umutuku, umweru ndetse n'umukara.

Umugabo ugaragara igice cy'igihimba udafite umusatsi utari no guseka yambaye umwambaro uri mu mabara abiri, umutuku ndetse n'umweru.

Abagabo babiri bicaranye, harimo uwambaye imyenda y'umukara irimo n'umweru ufite terefone ngendanwa mu ntoki, yambaye amadarubindi ku maso, undi yambaye ishati y'amaboko magufi yambaye n'isaha ku kuboko.

Imbuga ihagazeho abagabo bambaye udupfukamunwa mu isura. Harimo abambaye imyambaro igaragara nk'impuzangano y'abagororwa. Abandi bambaye impuzankano z'isa ziri mu ibara rya kaki. Inyuma hari imodoka iriguturukamo abandi.

Abantu bicaye mu gisambu hari n'abandi bicaye ku ntebe munsi y'ibiti, hagati yabo hari umugabo wambaye ikoti ry'umukara, ufite urupapuro rw'umweru mu ntoki.

Umugabo ugaragara igice cy'igihimba wirabura utari guseka, wambaye umwambaro uri mu mabara abiri, harimo ibara ritukura ndetse n'ibara ry'umweru.

Imbuga ihagazeho abantu, bambaye impuzangano zisa, ziri mu ibara ry'umukara, bahetse igikapu cy'umukara mu mugongo, bafite imbunda mu ntoki, hakurya y'aho bahagaze hateye ibiti.

Agahanda gasashemo amabuye, gahagazemo umugabo wambaye imyambaro igaragara nk'impuzankano za polisi, gafatanye n'umuhanda wa kaburimbo, ushushanjemo imirongo y'umweruru yerekana aho abanyamaguru bambukira. Hakurya y'umuhanda hari inzu, ndetse n'imodoka.

Umugabo wicaye uri kugaragara igice cy'igihimba, yambaye ikote ry'umukara, yambaye n'ishati icayemo imirongo, yicaye ku ntebe y'umukara, afite ikaramu mu ntoki, yambaye n'impeta ku rutoki.

Abagore bambaye imyambaro iri mu mabara atandukanye iri mu bwoko bw'inkenyero, bahagaze iruhande rw'amabendera ari mu ibara ry'ubururu n'umuhondo ndetse n'icyatsi kibisi.

Abagabo bicaye mu cyumba, bambaye imyambaro iri mu mabara atandukanye, bicaye ku ntebe z'umukara, imbere yabo hari ameza ateretseho indangururamajwi.

Abantu benshi bahagaze ku murongo, harimo abagabo bambaye amakote ndetse n'amapantaro n'abagore bambaye imyambaro yo mu bwoko bw'imikenyero.

Imbuga irimo abantu benshi, higanjemo abambaye imipira yo mu ibara ritukura, bafite utubendera dutoya mu ntoki, turi mu ibara ry'umutuku, umweru ndetse n'ubururu.

Abantu batatu bahagararanye harimo abagore babiri hagati yabo hahagaze umugabo, umugore umwe yambaye imyambaro iri mu bwoko bw'imikenyero, undi yambaye amadarubindi ku maso, afite terefone ngendanwa mu ntoki.

Abagabo batatu bahagaze ku murongo umwe utambitse harimo babiri bambaye amakoti n'undi wo kuruhande wambaye umupira w'umweru w'amaboko magufi uwo hagati bafite impapuro mu ntoki n'indangururamajwi imuteretse imbere inyuma ye hicaye abandi bantu hari n'amazu.

umugabo wambaye ishati y'umweru irimo amabara y'icyatsi ndetse n'umuhondo mu gatuza inyuma ye hari umugore wambaye ishati y'umweru wambaye amadarubindi ku maso inyuma yabo hari abandi bantu.

Umugore wicaye, wambaye imyambaro yo mu bwoko bw'igitenge, wambaye impeta ku rutoki, amaherena ku gutwi, afite agakapu ku bibero.

Umugabo wambaye ikote n'ishati y'umweru, ugaragara igice cy'igihimba udafite umusatsi, inyuma ye hagaragara igishushanyo cy'ikirangantego cy'igihugu cy'u Rwanda.

Icyumba kigaragara nk'icy'inama cyicayemo abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, bicaye ku ntebe z'umukara, imbere yabo hari ameza ateretseho mudasobwa ndetse n'indangururamajwi.

Abantu bambaye imipira isa y'umweru y'amaboko magufiya n'igofero z'umweru, bafite impapuro mu ntoki hagati yabo hariyo ameza ateretseho icupa ndetse n'izindi mpapuro.

Icyumba cyicayemo abantu benshi bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, imbere yabo hateretse ameza hariho indangururamajwi ndetse n'amacupa.

Umugabo wambaye ikote n'ipantaro n'amadarubindi ku maso, uhagaze iruhande rw'ibendera riri mu ibara ry'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi kibisi, iruhande rwe hahagaze umugore wambaye imyambaro yo mu bwoko bw'imikenyero, ku rundi ruhande rwe hahagaze umuntu wambaye imyambaro y'umutuku n'ingofero mu mutwe.

Icyumba cyicayemo abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, bicaye ku ntebe z'umukara, imbere yabo hari ameza ateretseho indangururamajwi ndetse n'amacupa.

Icyumba cyicayemo abantu bambaye imyambaro yo mabara atandukanye, bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umukara, imbere yabo ku meza hari indangururamajwi ndetse n'amacupa y'amazi.

Abagore bane bahagaze hagati y'amabendera abiri, rimwe rishushanyijeho ikirangantego cy'Igihugu cy'u Rwanda, irindi riri mu ibara ry'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi kibisi, hejuru yabo hamanitse ifoto iriho umugabo.

Umugabo wambaye umupira w'umukara wa'maboko maremare wambaye amadarubindi ku maso wazamuye ikiganza hejuru, inyuma ye hagaragara abandi bantu benshi cyane bafite utubendera dutoya turi mu ibara ry'umutuku, umweru ndetse n'ubururu.

Umugabo ugaragara igice cy'igihimba yambaye ikote riciyemo imirongo ndetse n'ishati y'umweru, yambaye amadarubindi ku maso, imbere yiwe hari indangururamajwi ebyiri, agaragara igice cy'igihimba.

Umugore uri guseka wambaye amadarubindi ku maso, ahagararanye n'umugabo wambaye ikote na we uri guseka, hari n'undi mugore ufite imisatsi y'umukara miremire.

Umugabo n'umugore bambaye amashati y'umweru afite igishushanyo mu gatuza, umugabo afite icumu mu ntoki ndetse n'ingabo, umugore yambaye amadarubindi ku maso n'urugori mu mutwe.

Umugabo wambaye ikote ndetse n'ishati mo imbere, yambaye impeta ku rutoki, afite urupapuro ruzinze mu ntoki, inyuma ye hahagaze undi mugabo wambaye ikote n'ipantaro y'umukara.

Abagabo babiri bafite ibitabo bitukura mu ntoki bambaye amashati y'umweru ndetse n'amakote bahagaze hagati y'amabendera abiri rimwe y'umweru n'irindi rifitemo amabara.

Urupapuro rw'umweru rwanditseho amagambo yo mu ibara ry'umukara, handitseho n'imibare, hari ikiganza gifite ikaramu mu ntoki, kiri kugenda gica uturongo mu mibare.

Abantu benshi bambaye imipira y'umweru, abandi bambaye iy'ubururu bambaye n'ingofero z'umweru mu mutwe bafite utubendera dutoya mu ntoki turi mu ibara ry'ubururu umweru ndetse n'icyatsi kibisi.

Umugabo ndetse n'umugore wafashe ku ibendera ryo mu ibara ry'ubururu umuhondo ndetse n'icyatsi kibisi umugore yambaye imyambaro yo mu bwoko bw'imikenyerero afite indangururamajwi imbere ye umugabo yambaye ikanzu y'umweru ndetse n'ikote bigaragara nk'imyenda y'abayisilamu.

Umuhanda wa kaburimbo uciyemo imirongo y'umweru igiye itagurika hagaragaramo imodoka ebyiri imwe itwara abantu ku giti cyabo, indi itwara abagenzi hakurya y'umuhanda hateye ibiti.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo amapikipiki abiri uciyemo imirongo y'umweruru yerekana aho abanyamaguru bambukira hakurya y'umuhanda hateye ibiti.

Agahanda gasashemo amabuye, gafatanye n'umuhanda wa kaburimbo, urimo abagabo babiri bari gusunika amagare, ateretseho imifuka, iruhande rwabo hari kugenda imodoka y'umweru.

Agahanda gasashemo amabuye, gafatanye n'umuhanda wa kaburimbo, uri kugendamo imodoka ntoya y'ubwikorezi ndetse n'amapikipiki, hakurya y'umuhanda hari ibiti.

Agahanda gasashemo amabuye gafatanye n'umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo imodoka nini yo mu ibara ritukura y'ubwikorezi, hakurya y'umuhanda hari ibiti.

Agahanda gasashemo amabuye, gafatanye n'umuhanda wa kaburimbo ugaragara nk'uwasadutse, harimo umugabo uri gusunika igare, ahicara umugenzi hari imifuka myinshi yo mu ibara ry'umweru.

Agahanda gasashemo amabuye, kari kugendamo umuntu utwaye igare, gafatanye n'umuhanda wa kaburimbo, uri kugendamo amapikipiki, ndetse n'imodoka nini y'ubwikorezi, yo mu ibara ritukura.

Agahanda gasashemo amabuye, kari kugendamo umuntu, gafatanye n'umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo igare, ndetse n'imodoka nini y'ibara ritukura itwara abagenzi, hakurya y'umuhanda hari ibiti.

Agahanda gasashemo amabuye gafatanye n'umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka z'ubwikorezi harimo imwe iri mw'ibara ry'ubururu n'iyindi aho bashyira imitwaro harimo imifuka y'umuhondo ndetse n'umweru harimo n'ibikarito.

Agahanda gasashemo amabuye gahagazemo igare gafatanye n'umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka zitandukanye harimo irimo imifuka myinshi mu ibara ry'umweru n'umuntu wikoreye imifuka ibiri ku rutugu iruhande rwayo.

Umuhanda wa kaburimbo, uri kugendamo umuntu wikoreye umufuka, n'imodoka nini y'umweru y'ubwikorezi, harimo n'amapikipiki, hakurya hagaragara umusozi.

Agahanda agasashemo amabuye, gafatanye n'umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo imodoka ndetse n'amapikipiki, hakurya y'umuhanda hahagaze imodoka hari n'inzu y'igorofa.

Imodoka nini y'umweru ndetse n'ubururu ifite amatara y'umutuku acanye itwara abagenzi. Inyuma yayo hari abantu bari kugenda hari n'ipikipiki itwaye umugenzi ku ruhande imbere.

Agahanda gasashemu amabuye, gafatanye n'umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo imodoka nini y'umweru y'ubwikorezi, hakurya y'umuhanda hari ibiti.

Agahanda gasashemo amabuye gafatanye n'umuhanda wa kaburimbo wasadutse urimo n'ikinogo, hari kugendamo imodoka nini y'umweru y'ubwikorezi, hakurya y'umuhanda hari ibiti.

Agahanda gasashemo amabuye gafatanye n'umuhanda wa kaburimbo ugaragara nk'uwasadutse hari kugendamo imodoka y'ubwikorezi, inyuma yayo hari kugenda izindi modoka ndetse n'amapikipiki.

Agahanda gasashemo amabuye gafatanye n'umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo imodoka nini y'ubwikorezi yo mu ibara rijya gutukura ndetse n'icyatsi kibisi, umuhanda uca munsi y'ikiraro hakurya y'umuhanda hari ibiti.

Umuhanda wa kaburimbo, uciyemo imirongo y'umweru igiye itaragurika, ku ruhande hahagaze imodoka z'ubwoko butandukanye, harimo intoya ndetse n'inini z'ubwikorezi, harimo n'amapikipiki, iruhande rwazo hari inzu y'igorofa.

Agahanda gasashemo amabuye, gafatanye n'umuhanda wa kaburimbo, uhagazemo imodoka nini y'ubwikorezi, mu ibara ry'ubururu, iruhande rwayo hari amapikipiki n'umugabo uri gusunika igare riteretseho umufuka w'umweru.

Umuhanda wa kaburimbo ushushanyijemo imirongo y'umweru harimo n'imodoka ebyiri, imwe nini itwara abagenzi n'indi itwara abantu ku giti cyabo, hakurya y'umuhanda hari amazu.

Agahanda gasashemo amabuye kari kugendamo umuntu wambaye ipantaro y'umukara, gafatanye n'umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo imodoka nini y'umweru yubwikorezi, hakurya y'umuhanda hari ibiti.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo imodoka nini y'umweru y'ubwikorezi, inyuma yayo hagaragara amapikipiki, hakurya y'umuhanda hateyemo ibiti.

Agahanda gashashemo amabuye gafatanye n'umuhanda wa kaburimbo, uhagaze mu igare ndetse n'imodoka yo mu ibara y'umweru igaragara igice gitoya.

Agahanda gasashemo amabuye, gahagazemo abantu, gafatanye n'umuhanda wa kaburimbo, urimo imodoka z'ubwikorezi, muri zo hari irimo imifuka ndetse n'ibikarito.

Agahanda basashemo amabuye, gafatanye n'umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo imodoka nini iri mu ibara ry'umweru, itwara abagenzi, hakurya y'umuhanda hari ibiti.

Agahanda gasashemo amabuye, iruhande rwako hari umuhanda wa kaburimbo ugaragara nk'urimo ikinogo, hari kugendamo imodoka ntoya y'umweru y'ubwikorezi, aho batwara imizigo hicayemo umugabo ari kugendamo n'iyindi isa nka yo y'umukara...

Agahanda gasashemo amabuye gafatanye n'umuhanda wa kaburimbo urimo ikinogo, hari kugendamo imodoka nini y'ubwikorezi, igare ndetse n'ipikipiki.

Agahanda gasashemo amabuye gafatanye n'umuhanda wa kaburimbo uri kugaragaramo igice cy'inyuma cy'igare, harimo n'imodoka yo mu ibara ritukura nini y'ubwikorezi. Hakurya y'umuhanda hateye ibiti.

Agahanda gasashemo amabuye gafatanye n'umuhanda wa kaburimbo, uri kugendamo amapikipiki ndetse n'imodoka nini itwara abagenzi iri mu ibara ry'ubururu.

Agahanda gashashemo amabuye gafatanye n'umuhanda wa kaburimbo ugaragara nk'uwasadutse harimo n'ikinogo hari kugendamo imodoka nini yo mu ibura ry'umweru y'ubwikorezi hakurya y'umuhanda hateye ibiti.

Agahanda gasashemo amabuye bafatanye n'umuhanda wa kaburimbo, uri kugendamo imodoka nini y'ubwikorezi yo mu ibara ritukura hakurya y'umuhanda hari ibiti.

Agahanda gasashemo amabuye gafatanye n'umuhanda wa kaburimbo wasadutse harimo n'ikinogo hari kugendamo imodoka nini y'ubwikorezi yo mu ibara ritukura.

Agahanda gasashemo amabuye gafatanye n'umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo imodoka nini y'ubwikorezi yo mu ibara ry'icyatsi kibisi ndetse n'umuntu utwaye igare, hakurya y'umuhanda hari ibiti.

Imbuga ihagazemo imodoka zo mu ibara ry'umweru zitwara abagenzi, harimo inini ndetse n'intoya, ku ruhande hagaragara ikidendezi cy'amazi mabi.

Agahanda gasashemo amabuye gafatanye n'umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo imodoka nini y'ubwikorezi irimu ibara ry'umweru ndetse n'ubururu, hakurya y'umuhanda hagaragara ibiti.

Imbuga ihagazemo umusore wambaye umupira w'umweru w'amaboko magufi n'inkweto z'umweru, imbere yiwe hari abandi bantu ndetse n'imodoka ebyiri zitwara abagenzi ziri mu ibara ry'umweru ndetse n'icyatsi kibisi.

Umuhanda wa kaburimbo ugaragaramo igicucucucu cy'igiti, hari kugendamo ipikipiki, ku ruhande hari uruzitiro ruri mu ibara ry'umweru, hateye n' ibiti, mo imbere hagaragara igice gitoya cy'inzu y'igorofa.

Agahanda gasashemo amabuye gahagazemo ipikipiki afatanye n'umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo ibinyabiziga bitandukanye, harimo imodoka zitwara abantu ku giti cyabo ndetse n'amapikipiki.

Umuhanda wa kaburimbo urikugendamo ipikipiki, hagati harimo ubusitani buteyemo indabo ndetse n'ibiti by'imikindo, hakurya y'umuhanda hari ibiti birebire.

Umuhanda wa kaburimbo ugaragara nk'uwasadutse, hari kugendamo amapikipiki abiri, atwaye abagenzi, iruhande rwayo hari imodoka nini y'ubwikorezi.

Imbuga ishashemo amabuye, ifatanye n'umuhanda wa kaburimbo, uciyemo imirongo y'umweru igiye itaragurika, hari kugendamo imodoka ebyiri ntoya zo mu ibara ry'umweru.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo ipikipiki itwaye umugenzi uhetse igikapu cy'umukara mu mugongo, imbere yabo hari imodoka nini y'ubwikorezi.

Umuhanda wa kaburimbo, uri kugendamo igare ritwaye umugenzi wambaye umupira w'ubururu, ari kugendamo n'imodoka nini yo mu ibara ry'umweru yu'bwikorezi hakurya y'umuhanda hari ibiti.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo imodoka zitwara abantu ku giti cyabo n'ipikipiki ndetse n'indi modoka nini itwara abagenzi hejuru hagaragara ikirere.

Agahanda gasashemo amabuye gafatanye n'umuhanda wa kaburimbo usa nk'uwasadutse, hari kugendamo imodoka nini y'umweru y'ubwikorezi, hakurya y'umuhanda hari ibiti.

Agahanda gasashemo amabuye gafatanye n'umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo imodoka nini y'ubwikorezi, hakurya y'umuhanda hari uruzitiro rw'imbere hateyemo ibiti.

Umuhanda wa kaburimbo, urimo imirongo y'umweru, ishushajemo yerekana aho abanyamaguru bambukira, harimo imodoka nini y'ubwikorezi, hakurya y'umuhanda hari ibiti.

Agahanda gasashemo amabuye, kari kugendamo umugabo utwaye igare, ufite umuzigo inyuma, inyuma yiwe hari imodoka nini y'umweru ndetse n'umukara y'ubwikorezi.

Agahanda gasashemo amabuye, gafatanye n'umuhanda wa kaburimbo wasadutse, harimo n'ikinogo, harimo imodoka nini itwara abagenzi, iri mu ibara ry'ubururu ndetse n'umweru.

Imbuga ihagazemo imodoka nini itwara abagenzi iri mu ibara ry'umweru ndetse n'icyatsi kibisi, iruhande rwayo hari abantu bahari, haruguru hari imifuka y'umweru iteretseho igikapu cyo mu mugongo hejuru.

Agahanda gasashemo amabuye gafatanye n'umuhanda wa kaburimbo ugaragara nk'uwasadutse, harimo n'ikinogo hari kugendamo imodoka nini y'umweru itwara abagenzi ndetse n'ipikipiki.

Imbuga isashemo amabuye, iri kugendamo umugabo ufite agakapu mu ntoki, imbere ye hari ubusitani butoya, imbere hagaragara imbuga ihagazemo imodoka nini zitwara abagenzi.

Umuhanda usashemo amabuye ufatanye n'umuhanda wa kaburimbo, uri kugendamo amagare abiri ahetse abagenzi, iruhande rwayo hari imodoka nini yo mu iba ry'umweru y'ubwikorezi, hakurya y'umuhanda hari ibiti.

Agahanda gashashemo amabuye, gafatanye n'umuhanda wa kaburimbo, uri kugendamo imodoka ebyiri z'ubwikorezi, harimo n'igare rihetse umugenzi, hakurya y'umuhanda hateye ibiti.

Agahanda gasashemo amabuye gafatanye n'umuhanda wa kaburimbo ugaragara nk'uwasadutse hari kugendamo imodoka nini y'ubwikorezi iri mu ibara ry'umweru ndetse n'icyatsi kibisi.

Agahanda gasashemo amabuye gafatanye n'umuhanda wa kaburimbo ugaragara nk'uwasadutse harimo n'ikinogo hari kugendamo ipikipiki y'ubwikorezi hakurya y'umuhanda hateye ibiti.

Imbuga isashemo amabuye, iri kugendamo abantu, ifatanye n'umuhanda wa kaburimbo, uri kugendamo amapikipiki, imodoka z'ubwoko butandukanye, inini ndetse n'intoya, hakurya y'umuhanda hateye ibiti.

Agahanda gasashemo amabuye, gafatanye n'umuhanda wa kaburimbo ugaragara nk'uwasadutse. Hari kugendamo imodoka y'umweru itwara abantu ku giti cyabo, ku rundi ruhande hari kugenda imodoka y'umweru y'ubwikorezi.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo ipikipiki, mo hagati harimo ubusitani butoya buteyemo indabo ndetse n'ibiti by'imikindo hakurya y'umuhanda hari ibiti.

Agahanda gasashemo amabuye, karimo umuntu uri gusunika igare ririho ibintu byinshi, harimo igitoki, ibikarito, ndetse n'umufuka, hakurya hagaragara imodoka nini y'ubwikorezi.

Agahanda gasashemo amabuye gafatanye n'umuhanda wa kaburimbo, uri kugendamo imodoka nini y'ubwikorezi iri mu ibara ry'umweru ndetse n'icyatsi kibisi, hari kugendamo n'igare, hakurya y'umuhanda hateye ibiti.

Agahanda gasashemo amabuye gafatanye n'umuhanda wa kaburimbo, uri gucamo imodoka nini y'ubwikorezi, hakurya y'umuhanda hateye ibiti birebire.

Agahanda gasashemo amabuye gafatanye n'umuhanda wa kaburimbo ugaragara nk'uwasadutse harimo n'ikinogo hari kugendamo imodoka, hakurya y'umuhanda hari ibiti.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo imodoka ndetse n'amapikipiki, hagati mu muhanda hari ubusitani buteyemo ibiti by'imikindo, n'umuntu uhunamye.

Umuhanda wa kaburimbo wanditsemo amagambo, ufatanye n'agahanda gasashemo amabuye karimo amapikipiki menshi ndetse n'abayobozi bayo bayicayeho, hari umusore wambaye ishati y'umukara wifashe mu mufuka w'ipantaro yambaye n'inkweto z'umweru, haruguru haragaragara igiti.

Umuhanda wa kaburimbo ufatanye n'agahanda gasashemo amabuye, kari kugendamo umuntu, haruguru hari imbuga ihagazemo imodoka nini y'ubwikorezi yo mu ibara ry'ubururu, hirya yayo hatondetse amakaziye.

Umusore wambaye umupira w'amaboko maremare, n'ipantaro y'umukara, afite igikapu cy'umukara ku rutugu, ahagaze mu gahanda ga sashemo amabuye, gafatanye umuhanda wa kaburimbo, hakurya y'umuhanda hari ibiti byinshi bigaragara nkishyamba.

Igisambu giteyemo ibiti, kirimo n'icyapa cya mpandeshatu kiri mu ibara ry'umweru ndetse n'umutuku, mo hagati yashushanyijemo abantu babiri bashanyije mu ibara ry'umukara gifatanye n'agahanda gasashemo amabuye kari kugendamo abantu.

Inzu y'igorofa imbere yayo hari ibiti harimo n'igiti cy'umukindo, hari n'imodoka iri mu ibara ry'umweru ihagaze ifunguye umuryango w'inyuma.

Umuhanda wa kaburimbo, haruguru yawo hari imodoka ziri mu mabara atandukanye ndetse n'amapikipiki, hari n'inzu z'amagorofa ziriho ibyapa.

Igisambu kirimo ibyatsi ndetse n'ibihuru kizengurutswe n'ibyuma byo mu ibara ritukura, haruguru hari amazu y'amagorofa atatu.

Imbuga y'igitaka ifatanyije n'igice kirimo igisambu giteyemo n'ibiti gifatanye n'umuhanda wa kaburimbo utari kugendamo imodoka, hakurya yawo hari inzu y'igorofa.

Imitaka yo mu mabara atandukanye harimo uw'icyatsi kibisi ndetse n'uw'umutuku munsi yawo hari urunyurane rw'abantu haruguru yayo hari amazu afiteho ibyapa hejuru.

Imbuga isashemo amabuye hateyemo icyapa cy'uruziga ishajemo imodoka y'umukara iciyemo umurongo utukura, hakurya hagaragara umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka ndetse n'amagorofa.

Agahanda k'abanyamaguru kari kugendamo umuntu, gafatanye n'umuhanda wa kaburimbo uciyemo imirongo y'umweru yerekana aho abanyamaguru bambukira, hari gutambukamo umuntu, hagati harimo ubusitani buteyemo ibiti by'imikindo, hakurya yabwo hari uwundi muhanda wa kaburimbo.

Agahanda gashashemo amabuye gafatanye n'umuhanda wa kaburimbo ushushanyijemo imirongo y'umweru, yerekana aho abanyamaguru bambukira, hari kugendamo imodoka ntoya yo mu ibara ry'umweru.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo Ibinyabiziga bitandukanye harimo imodoka ntoya ndetse n'inini n'amapikipiki hagati mu muhanda hari uduce dutoya duteyemo ubusitani n'ibiti by'imikindo.

Agahanda gasashemo amabuye, kari kugendamo umuntu, gafatanye n'umuhanda wa kaburimbo, uri kugendamo imodoka ntoya itwara abantu ku giti cyabo, hakurya y'umuhanda hari ibiti.

Agace gatoya k'ubusitani gafatanye n'imbuga isashemo amabuye, iri kugendamo igare hafatanye n'umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo ipikipiki, hakurya y'umuhanda hari ibiti.

mu gahanda gasashemo amabuye gafatanye n'umuhanda wa kaburimbo uca munsi y'ikiraro, hari kugendamo imodoka nini y'ubwikorezi, hakurya y'umuhanda hateye ibiti.

Umuhanda wa kaburimbo, uciyemo imirongo igiye itaragurika, hari kugendamo amapikipiki ndetse n'imodoka z'ubwoko butandukanye, harimo inini ndetse n'intoya.

Umuhanda uri kugendamo amapikipiki abiri atwaye abagenzi, iy'imbere itwaye umugenzi uhetse igikapu, iyindi itwaye umugenzi uteruye igikarito, hagati mu' muhanda hari agace gatoya gateyemo ubusitani, harimo n'ibiti by'imikindo.

Agace gatoya k'ubusitani gafatanye n'agahanda gasashemo amabuye, gafatanye n'umuhanda wa kaburimbo uciyemo imirongo y'umweru yerekana aho abanyamaguru bambukira. Hakurya yaho hari ubusitani buteyemo ibiti by'imikindo.

Umuhanda wa kaburimbo ufitemo imbuga ntoya isashemo amabuye, hahagazemo umuntu hakurya y'iwe hari imirongo y'umweru ishaje mu muhanda yerekana aho abanyamaguru bambukira, harimo n'imodoka.

Umuhanda wa kaburimbo ugaragara nk'uwasadutse, uca munsi y'ikiraro, uri kugendamo imodoka ntoya itwara abantu ku giti cyabo yo mu ibara ry'umukara, hakurya y'umuhanda hari ibiti.

Agace gato gateyemo ubusitani, gafatanye n'umuhanda wa kaburimbo, uri kugendamo amapikipiki, ufite agace gato k'ubusitani kari hagati mu muhanda, hakurya y'umuhanda hari ibiti.

Agahanda gasashemo amabuye, gafatanye n'umuhanda wa kaburimbo, uri kugendamo ibinyabiziga bitandukanye, harimo imodoka nini ndetse n'intoya n'ipikipiki, hakurya y'umuhanda hateye ibiti.

Umuhanda wa kaburimbo ugaragara nk'utose igice kimwe hariku kugendamo imodoka nini yo mu ibara ry'umweru y'ubwikorezi, imbere yayo hari ipikipiki hakurya y'umuhanda hari ibiti.

Umuhanda wa kaburimbo, uri kugendamo ipikipiki itwaye umugenzi, hagati mu muhanda hari agace gatoya k'ubusitani, gateyemo n'ibiti by'imikindo hari kugendamo n'izindi modoka, hakurya y'umuhanda hateye ibiti.

Agahanda gasashemo amabuye kari kugendamo umuntu, gafatanye n'umuhanda wa kaburimbo uwuca munsi y'ikiraro, hari kugendamo igare ndetse n'ipikipiki.

Agace gatoya kubusitani gafatanye n'imbuga isashemo amabuye ifatanye n'umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo igare ndetse n'amapikipiki hakurya y'umuhanda hateye ibiti.

Agahanda k'amabuye, gafatanye n'umuhanda wa kaburimbo, werekana aho abanyamaguru bambukira, haciyemo imirongo y'umweru, haruguru hahagaze amamodoka ndetse n'amapikipiki, hari n'itara riri kwaka, rifasha imodoka n'abanyamaguru gutambuka.

Agace gatoya k'imbuga isashemo amabuye gafatanye n'umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo imodoka ndetse n'amapikipiki, hagati mu muhanda hagiye harimo uduce dutoya duteyemo ubusitani.

Agahanda agasushemo amabuye kari kugendamo abantu, gafatanye n'umuhanda wa kaburimbo uca munsi y'ikiraro, hari kugendamo imodoka ndetse n'igare hakurya y'umuhanda hateye ibiti.

Agahanda gasashemo amabuye kari kugendamo umuntu, gafatanye n'umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo amapikipiki. Hari n'itara rifasha abantu n'ibinyabiziga gutambuka, hakurya y'umuhanda hari ibiti.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo amapikipiki ndetse n'imodoka nini z'ubwikorezi, hakurya y'umuhanda hari ibiti hari n'ibiti bimanitseho insinga zishinzwe gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi iruhande rw'umuhanda.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo amapikipiki, hagati mu muhanda hari agace kagaragaramo ubusitani, hari n'isaha nini y'umweru, hagaragara n'icyapa kiri mu ibara ry'ubururu.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo umuntu uri ku igare, wambaye umupira w'umweru n'inkweto z'umweru, umuhanda uca munsi y'ikiraro, hejuru hagara ibiti.

Imbuga isashemo amabuye ihagazemo amapikipiki menshi, imbere yayo hagarara undi muhanda ufatanye n'igikuta kirekire, iruhande rwacyo hariho icyapa cy'uruziga cyanditsemo inyuguti ya p iciyemo umurongo utukura, iruhande rwacyo hari igiti cy'umukindo.